Inzu ni inyubako yagenewe gukorerwamo ibintu bitandukanye nk'ubuyobozi, cyane nk'ubuyobozi bw'amashuri abanza, aho usanga hari inzu yagenewe umuyobozi w'ikigo, ndetse n'abamwungirije, ugasanga rero baba bahari bafite imashini, bashyira ibintu ku murongo bijyanye n'amashuri.

Amashuri y'ibanze ni meza cyane ahantu yubatse akunze kuba afite utuntu tw'imirimbo, imitako afite inkingi zimeze neza kandi n'ikibuga cyo gukiniraho ku buryo abana bahakinira bishimye ntabirantega hari ikibuga gihagije cyo gukiniramo cy'abana abarezi babo rero bakabitaho bakabafasha muri buri kimwe.

Uburezi bw'ibanze ni bwiza, uburezi bw'amashuri abanza ni bwiza, cyane usanga ari ifatizo ku mwana, aho usanga umwana yigishwa uko bakoresha ikoranabuhanga, akabasha kurisobanukirwa, baba bafite intebe nziza, ari ahantu heza, aho umwana areba, bikamukurura akumva akunze kwiga.

Uburezi bw'ibanze ni bwiza cyane, abantu benshi barabukunda kuko umuntu agera mu mashuri yisumbuye yarabanje mu mashuri abanza, aho usanga umwana yigishwa inyajwi, guteranya, gufata ikaramu, ibyo byose babyigira mu mashuri abanza,..

Ishuri ni ahantu hagenewe gutanga ubumenyi, ku ishuri rero hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi, abaje kwiga n'abaje kwigisha haba hari abantu benshi cyane.

Kogoshya ni igikorwa cyiza, cyo gukuraho umuntu umusatsi, cyangwa se ubwanwa. Ubwo rero biba byiza iyo ujyanye umunyeshuri akajya kwiga bakamwigisha kogoshya nawe akazajya abikora. Bisaba rero kuba ufite imashini ikoreshwa mu bwogoshi n'amavuta basiga umuntu mu mutwe barangije kumwogoshya kugira ngo atagwara imiburu.

Abanyeshuri bahabwa uburezi n'abarimu barigisha, uburezi kuri bose rero abakobwa n'abahungu bose bariga, bakiga mu ishuri bakakira ubumenyi bumwe, ntabwo bajya barobanura ngo bavuge ngo aba ni abakobwa cyangwa n'abahungu, maze bahabwa uburezi bumwe kandi bukabagirira akamaro.

Ishuri ni ahantu hatangirwa ubumenyi butandukanye, ku ishuri haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, abanyeshuri n'abarimu, baje gufata amasomo n'abaje gutanga amasomo ku ishuri.

Imyuga ni abanyeshuri cyangwa se ikigo cyigisha imyuga abanyeshuri. Usanga abanyeshuri bambara amasarubeti, bambaye n'ibikasike mu mutwe. Aba bakunda abanyeshuri biga imyuga bakunda kuba biga ubwubatsi, Aho usanga aba bigishwa kubabaka bakigishwa uko bapima inzu.

Imyuga ni ishuri ry’imyuga, aho usanga abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bahitamo amasomo atandukanye. Hakaba abahisemo kwiga imyuga. Aba bize imyuga rero baba bambaye, bakunda kuba bambaye ibisarubeti. Ahantu bari, baba banduye cyane, kuko baba basa n’abarimo gukanika. Imyuga y’ubukanishi, rero ni myiza, nayo itanga amafaranga.

Imyuga ni amashuri meza cyane, abana biga bageze mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye aho usanga hari abahisemo kwiga ubuvuzi bw'amatungo, ugasanga wenda arimo kuvura itungo akabanza kuripima, ngo amenye indwara rifite akabona uko arivura. Aba bakunda kwambara, abiga ubuvuzi bw'amatungo, bakunda kwambara ibibote n'ibisarubeti.

Urukezo ni igikoresho gikoreshwa mu bubazi ndetse no mu bwubatsi, aho usanga abantu bigisha kubaka bahereza abanyeshuri urukezo cyangwa se mutobozi bashaka nko gutobora ahantu cyangwa se urukezo, bagiyebukeba nk'ikintu runaka ibikoresho rero nabyo biba bikunzwe.

Abakanishi ni abanyeshuri barimo kwiga ibintu byo gukanika, abarimu baraza bakabereka ibyo bakanika abanyeshuri nabo bakabikanika iyo bamaze kwimenyera bakunda kuba bambaye imyenda y'ibiserubeti, ni abantu bakunda kuba banduye cyane basa nabi, kubera akazi kabo ariko bitanga amafaranga ubukanishi butanga amafaranga.

Uburezi ni bwiza aho usanga abanyeshuri cyane cyane mu mashuri yisumbuye bamaze kumenya ibyo barimo, usanga bitewe na uburyo bahisemo kwiga, baba bamaze kuba ibintyoza mu bumenyi bwabo bwa buri munsi.

Ni ahantu hagenewe gutangirwa ubumenyi, ubumenyi kandi ku ishuri haba hari urujyanuruza rw' abantu benshi, nk' abigisha mu masegonderi, mu mashuri makuru, amashuri y' imyuga; usanga hari abarimu b' abigisha n' abanyeshuri haba hari urujya n'uruza bw' abanyeshuri n' abarimu.

Ishuri ni ryiza cyane, abantu biga mu mashuri yisumbuye, usanga bamaze gutera imbere bafite ubwenge buhagije, aho babasha nabo kwigana ibyo babashije kwiga, babasha kugera ku nzozi zabo, rero mwarimu wigisha ni mwiza abakobwa cyane kandi n'abanyeshuri biga baramukunda cyane.

Uburezi ni bwiza, cyane cyane uburezi bw'amashuri yisumbuye, aho usanga hari intebe nziza, ibitabo byiza, hameze neza, ndetse n'ikibaho mu ishuri cyiza. Ugasanga abana bishimiye kuba muri iryo shuri biga inyigisho zitandukanye, haribyo bashaka kumenya no gusobanukirwa.